Itsinda ry'abantu rigizwe n'abana bane bari kuvoma ku iriba bikoreye amabido. amazi adufasha mu bintu bitandukanye byo mu rugo nko koza ibyombo, kumesa, kuyatekesha ibiryo ndetse no kunywa amazi kuko biduhereza ubuzima bwiza.

Abana bahagaze imbere y'icyapa kinini cyanditseho amagambo: "Gutangiza ku mugaragaro ihuriro ryo gucunga no kurengera umwana mu Rwanda". Hagaragaraho ibirango bya Unicef n'ibindi bigo bya Leta bifite aho bihuriye n'iterambere ry'umwana. Ibi byerekana ko ari igikorwa cya Leta y'u Rwanda, ifatanyije n'abafatanyabikorwa mu guteza imbere uburenganzira n'umutekano w'umwana.

Inama ihuza inzego z'umutekano nk'abapolisi cyangwa abasirikare, inzego z'ubuyobozi bw'ibanze nk'abayobozi b'Umurenge n'abaturage kugira ngo baganire ku bibazo bibabangamiye bafatanye gushaka ibisubizo ndetse banungurane ibitekerezo ku buryo bwo guteza imbere aho batuye.

Umugabo uzwi ku izina rya Uwihoreye chaste uri kuvuga ijambo mu birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe, ugomba gufatwa nk'ihuriro ry'ingenzi mu buzima rusange no muryo bwo kwita ku buzima n'imibereho, hariho n'amazina y'inzego zateguye igikorwa nka RBC ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima.

Ahantu hateguwe kandi hifashishwa ibikoresho bitandukanye hagamijwe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, kugira ngo umuntu arusheho kugira ubuzima buzira umuze, kongera imbaraga z'umubiri, cyangwa kugabanya ibinure.

Ivuriro riri mu busitani, ivuriro hakoreramo abaganga bavura indembe n'abarwayi barwaye indwara zitandukanye nko kurwara mu nda, imvune z'umubiri ndetse no kubyara kw'abana cyangwa izindi ndwara zitandukanye.

Umuganga w'igitsina gore uri ku mashini, abaganga bazwiho kuba abajyanama b'ubuzima ndetse bakavura indwara zitandukanye z'abarwayi ndetse bakaduhereza ubuzima buzira umuze, bakatubwira uburyo twakwirinda indwara zitandukanye no kuzirinda.

Umuganga ari gufasha umurwayi ufite imvune, cyangwa ikindi kibazo mu kaguru, kugira ngo abashe kugenda neza cyangwa abashe gukora siporo runaka nko kwirukanka, abaganga babasha kudukiza indwara cyangwa imvune cyangwa ikindi kibazo twaba dufite mu mubiri.

Igiti cyahinzwe mu busitani cyangwa mu ishyamba, iki giti kikaba cyarakozwe neza kubera imvura nziza cyangwa imvura nyinshi, n'izuba ryinshi cyangwa izuba riringaniye bitewe n'uko cyakuze, igiti kizwiho akamaro kenshi nkuko hari ibiti biribwa nk'isombe, hari ibiti biduhereza umwuka wo guhumeka n'ibindi byinshi.

Imiti ivura uruhu, abantu bifashisha iyi miti kugira ngo bagire uruhu rwiza, baba bafite ikibazo runaka nko kuba bafite ibibyimba mu maso, cyangwa bafite ikindi kibazo cyo ku ruhu, bifashisha iyi miti.